Iyi ni inama irimo abagabo n'abagore bateraniye ahantu hamwe baganira ku ngingo runaka itandukanye.

Ni kinyabiziga cy'icyatsi gitwara imizigo n'ibindi binyabiziga, gifite ibiziga bisa umukara iruhande rwacyo hari umugabo iruhande rw'uwo mugabo hari ruhurura kiri mu muhanda kijya ahantu cyangwa ahandi.

Iki ni icyapa kigaragaza aho abanyamaguru bambukira gifite amabara atatu, umweru, umukara n'umutuku, iruhande rwacyo hari ibiti n'insinga z'umuriro.